Akwakarica cyangwa se ubworozi bw'amafi, hari amazi, hari amafi, hari umwana uri gusuka amafi mu cyuzi baroraho amafi, hari ibyatsi bikikije icyuzi.

Aquaculture cyangwa se ubworozi bw'amafi hari umuntu ufite ifi uri gupima ku munzani, hari ibyuzi by'amafi, hari ibiti by'ubwoko butandukanye hari insina.

Umuntu w'umuhinzi w'icyayi ufite amababi mu ntoki afite n'ubutaka, muri make bari kwerekana aho icyayi kiva cyangwa se keze ubutaka uko buba bumeze.

Hari umuhinzi uri kubagarira ibihingwa runaka bitagaragara neza, ndabona ari inyanya hari ibiti hari ubutaka, afite isuka a guseka hari inyubako...

Ubuhinzi bw'ibigori n'imboga hari umuhinzi uri mu muririma ari gutera ibintu runaka, hari ibiti, hari ibyatsi hari, ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'ubutaka.

Agasozi kariho ibiti, ibihingwa nk'ibigori, hari inzu, hari imirima myinshi yo guhingamo, harasa neza, hari ibyatsi, hari ibimera bitandukanye, harimo ibidukikije.

Hari ibihingwa nganurabukungu harimo ibigori, hari umurima, hari ibyatsi by'ibimera, hari ibiti, hari ikirere, hari abahinzi baza guhingira bigori bakaza no kubisarura.

Ahantu hasa neza hakorerwa ubuhinzi bw'imbuto, ubuhari ni ubwoko bwa pome bwera imbuto nziza zifite ibara ry'umutuku zirasa neza.

Umuntu wambaye imyenda y'ibara ry'umuhondo, ari gufuhira ibihingwa runaka bitandukanye, afite amazi, hari ibiti hari n'akayira.

Ahantu heza harimo ubwoko butandukanye bw'ibimera harimo ibiti by'amoko menshi, hari ibyatsi, hari abantu batuye, hari urutoki, hari umusozi, hari amagare abiri aparitse. hari n'ibijerekani.

Ubworozi bw'amatungo harimo inka y'imbyeyi ifite amahembe maremare hari umushumba wambaye iniforume cyangwa se imyenda y'akazi ifite ibara ry'ubururu inkweto zo mu bwoko bwa bote iri ahantu hagari hari ibimera bisa.

Inkoko nyinshi cyane ziri mu bwoko butandukanye harimo amasake, inkokazi hari izifite ibara ry'umukara n'izindi zifite ibara ry'igitaka ziri ahantu ziba bazororera n'ubworozi.

Ubworozi bw'amatungo, harimo ingurube nini ifite ibara ry'umweru. Yambaye amaherena ni nk'umushinga runaka kuko ni ingurube nini cyane.